Igipupe ubona ko ari igikoresho kifashishwa mu gukina n'abana bo muri pirimeri hasi cyane mu bashuri y'inshuke, kugira ngo barusheho kumenya ndetse no kongera ubumenyi bwabo mu buryo bworoshye binyuze mu bikinisho, duhe abana bacu bikinisha kugira ngo barusheho gukura bamenye ubwenge banabyigiraho.

Umwana w'umuhungu, ubona ari kumwe n'umugore hirya, ufite mikoro umeze nk'uri kumubaza ibintu biri ku kibaho ahantu. Ubona ko ari kugira ngo barusheho kugira abana barusheho kumenya, kubara, gusoma ndetse no kwandika. Ni byiza ko duhugura abana bacu bakiri bato kugira ngo barusheho gukurana ubwenge bwiza kandi bazagire ubuzima bwiza buzira umuze binyuze mu ikaramu. Baravuga ngo iyimijwe n'ikaramu ntiramburura.

Ibikoresho bitandukanye birimo amarati, keleyo ndetse n'amakopa ndetse na takereyo ubona ko ari ibikoresho byifashishwa n'abana bo muri pirimeri biga imibare cyane cyane, ni byiza ko ibikoresho bifashisha biga imibare nko guca imirongo ndetse no gupima uruziga rwiza, ni byiza ko tubungabunga ibikoresho nk'ibi tukabifata neza kugira ururusheho kudufasha mu kongera ubumenyi mu myigire yacu ya buri munsi

Ibigo by'amashuri ubona ko ari inyubako nziza ari ibikorwaremezo bya Leta. Ubona ko byashyiriweho kugira ngo bifashe abanyeshuri kugira ngo babone aho bakura ubumenyi ndetse babone n'aho bakurira, bamenye ubwenge kugira ngo barusheho kuzateza imbere Igihugu cyabo no kwiteza imbere ubwabo. Ni byiza ko tubungabunga ibikorwaremezo nk'ibi, bifasha abantu muri rusange. Mu kwiteza imbere no kongera ubumenyi bwabo.

Abana b'abanyeshuri ubona bambaye iniformu y'umweru n'ikigina cyo bita impuzankano mu rurimi rw'ikinyarwanda, urabona ko abana biga muri segonderi mu mashuri yisumbuye, bicaye hamwe barimo bahabwa amahugurwa ku bijyanye n'uburyo ki bafata imibiri yabo neza ndetse bakaniteza imbere binyuze mu bwenge bahabwa ku ishuri.

Ahantu ubona ko ari ku ishuri, hari umwarimu uhagaze imbere ubona ko ari ikigo cy'amashuri yisumbuye, ubona ko hatangirwa uburezi bufite ireme, kugira ngo barusheho kwigisha abantu kwiteza imbere, ndetse no kujijuka bakarushaho gusoma, kumenya no kwandika. Ni byiza ko ari byiza ko tujya ahantu nk'aha kugira ngo turusheho kumenya ingingo z'ubumenyi butandukanye.

Abanyeshuribona abafite seritifika bari kumwe n'abarezi babo. Ubona ko bari ahantu bari bahawe seritifika ubwo barangizaga amashuri, kugirango barusheho kugira ubuzima bwiza binyuze muri izo seritifika bashaka akazi. Ni byiza ko twiga tugahugurwa kugirango turusheho kugira ubumenyi buhambaye tugana amashuri.

Abanyeshuri bahanye intera ubona bicaye ku murongo bambaye udupfukamunwa ubona ko bameze nk'abari kwirinda indwara, kugira ngo bere kwanduzanya ni byiza ko twicara dushyizemo intera kugira ngo turusheho kwirinda indwara zitandukanye harimo nka korona nk'uko byagaragaye ndetse n'ibindi byorezo, nka marburg n'ibindi turushe ho kwikingira twambara udupfukamunwa twita ku buzima bwacu.

Abana b'abanyeshuri ubona ko bari mu ishuri bishimye, baseka, ubona ko ari abana biga kugira ngo barusheho kugira ubumenyi butandukanye. Ni byiza ko tugana amashuri tukajyana abana bacu ku mashuri kugira ngo barusheho kongera ubumenyi bwabo barusheho kugira ubumenyi, babe abantu b'ejo hazaza banagire icyerekezo cyiza. Tujyana abana ku mashuri kugira ngo ba urusheho kugira ubumenyi ndetse no kwiteza imbere no kuzagira ubuzima bwiza.

Ahantu ubona hari abanyeshuri beza batandukanye bicaye ku ntebe biga, ubona ko ari ahantu ku kigo cy'amashuri hakorerwa ibintu bijyanye no kwiga ndetse no kuhatangira ubumenyi butandukanye ku bintu bitandukanye. Ni byiza ko tugana amashuri kugira ngo turusheho kungera ubumenyi bwacu ngo turusheho kwiteza imbere binyuze mu bumenyi duhabwa.

Ahantu hasa neza hari abantu babiri b'abakobwa ubona bafite udukapu ubona bari mu muhanda, ahantu hasa neza hari jaride, ibyatsi n'ibiti, ubona ko hakurya hariyo amashuri abanyeshuri bigiramo, ubona ko ari univasiti nziza ya Nyagatare ishami ryigisha ibijyanye n'uburezi. Ni byiza ko tubungabunga ibikorwa remezo nk'ibi bidufasha kugira ngo tubone serivise zitandukanye.